Ishuri ryigisha neza rigamije ko abana bafata ibyo bizeye, rigomba kuba hari n'ibishushanyo runaka ryashyize ku nkuta, bityo umwana iyo akomeza kubibona kenshi, binyura mu maso ye bituma abifata.

Byakunze kumenyekana ko ikiganiro cy'abana cyitwa Itetero, ari cyiza kuri bo kuko bigiramo ibintu byinshi bakaba babasha kumenya ibijyanye n'amasomo, bikaborohereza kwiga mu mashuri asanzwe.

Iyo abana bigishijwe ndetse ibyo bigishwa bikaba binashushanyije nibwo babasha kubyumva neza, urugero umwana umushushanyirije umwumbati bituma awumenya n'aho azawubona akamenya ko ari wo yize.

Ubundi biba byiza kwigisha abana ariko ubereka n'amashusho y'ibyo uri kubigisha kubera ko iyo umwana amaze kubibona iyo ageze n'iwabo mu rugo akongera akabona icyo gikoresho ahita akibuka.

Kwigisha abana ukoresheje utunyamaswa dushushanyije bituma babimenya neza kandi bakabifata mu gihe kitari kirekire, ariko kubigisha ubabwira urugero, inka batarayibona biragoye ko bayimenya.

Kwigisha abana inkuru ubinyujije mu mafoto ndetse n'ibishushanyo bimeze nk'iby'abana cyane cyane udupupe bituma bumva iyo nkuru neza kandi bakayizirikana kuko bayifata mu mutwe.

Iyo umwana umuguriye akamodoka k'agashushanyo biramushimisha ndetse akumva akwisanzuyeho cyane kuruta uko yabikoraga kuko umuzanira utuntu twiza kandi akatwishimira.

Abana ni byiza ko bagurirwa udukinisho turirimo utumodoka dutoya, kuko ibiingibi bituma bakura bishimye iyo bafite tuno dukinisho kugira ngo tubarangaze.

Ni ingenzi ko umuntu yigishwa, uburyo amaraso atembera mu mubiri ndetse n' moteri yayo ikaba ari umutima uyohereza mu bice byose by'umubiri kubera ko ikimenyimenyi iyo umutima wahagaze byose birapfa.

Niba ahantu hanzuye ko hagomba kujya ishuri ryigisha abana b'inshuke, ni byiza ko hagomba gushyirwa ibikinisho byose umwana akenera kugira ngo amasomo ye akomeze kugenda neza kuko abana bafata ari uko bari kureba ibikinisho.

Kujya kwigisha abana bato cyane ab'incuke, ukaba wabateguriye amakaramu yandika mu mabara atandukanye, n'utundi dukoresho twabafasha kwiga ni ingenzi, ku mwarimu uzi amayeri yo kwigisha abana batoya.

Mu gihe cya korona virus wasangaga ahantu hose haregerejwe uburyo bwiza, bwo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune ariko ubu nyuma yuko babonye iki cyorezo kirimo kiracika, uyu muco ntugihari.

Buri kigo cy'amashuri cyakagombye kuba gifite ibibuga by'imyidagaduro kubera ko abana babayeho badakora imyitozo ngororamubiri usanga batishimye kuko siporo ituma abantu basabana bakishima.

Si byiza kurarana n'amatungo mu nzu kubera ko byagaragaye ko ateza indwara zigiye zitandukanye ndetse n'ibi byorezo bituzira ntitwa tuzi iyo byaturutse, nyamara ibyishi byaraje bivuye mu matungo twiyororera.

Kwigisha abanyeshuri ukabona ntibagusubiza biguca intege, ariko iyo ubajije ukabona abarimo baramanika bashaka kugusubiza uhita umenya ko ibyo wigishije byumvikanye neza.

Umwana w'umunyeshuri cyane cyane uwiga muri aya mashuri mato, agomba kuba afite udukoresho turi mu mabara menshi agiye atandukanye kugira ngo bimufashe mu myigire ye.

Umwarimu wigisha isomo ry'ubutabire, bimusaba ko akoresha amayeri menshi kugira ngo abanyeshuri baryumve kuko baba barishyizemo ko ari isomo rikomera, nyamara abarikurikiye neza bararitsinda.

N'abayobozi bose bagomba kuba bafatanyije buri kimwe bakunga imbaraga kugira ngo bagire ibyo bageraho maze iterambere ryabo rikomeze risakare hose kandi mu gihe gito.

Amashuri y'abana batoya, hagomba kuba hari ikibuga byibura igihe bagiye kuruhuka, bagomba gukiniramo bakidagadura maze bagasubira kwiga mu mutwe bimeze neza baruhutse.

Kuba hari isomero, abana bashobora kujyamo bagasoma ibitabo, biba ari byiza ariko ibigo bitaratera imbere usanga n'ibinafite iryo somero, bitajya birikoresha icyo rikwiriye gukora.

Ni kenshi uzumva imvugo zivuga ngo tozi umwana wawe akiri muto azamenya inzira ajyamo ariko umwana iyo amaze kugukurana ageze mu myaka yo hejuru ntushobora kuba wamwigisha ibyo byiza byose utarabikoze akiri muto.

Kugurira abana udukaramu tw'ibiti, ndetse n'utundi dukoresho tw'amabara birabafasha cyane. Kubera ko umwana akunda gukinisha ibintu akabyigiramo abifite.

Umwana mwiza umuha ibikoresho akaba yabibyazamo ikintu cy'ingenzi, uri kubona umwana yatangiye afite ibumba ndetse akagenda aryubaka agake gake, bikaba byararangiye akuyemo igishushanyo cy'inka.

Mbere y'uko amashuri cyangwa ingengabihe itangira y'amashuri, umubyeyi agomba kwita ku bikoresho by'umwana ugiye ku ishuri, harimo nko kumugurira udukapu azajya ajyanamo amakaye.

Ubundi ikigo cyigisha abana batoya cyane kigomba kuba kirangwaho n'ibishushanyo bigaragaza ko abantu higira abana koko, harimo nko kubashushanyiriza inyuguti nini, kugira ngo bajye baziga muri ubwo buryo babimenye neza.

Ni byiza kubaka amashuri kandi akubakwa ahantu heza kubera ko iyo ahantu hari isuku, ntago haza indwara z'ibyorezo, cyane cyane hano higishirizwa abana bato kuko byaba bishoboka cyane.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bagomba kujya bigishwa cyane cyane bakoresheje inkuru kugira ngo ibyo bige babifate neza, kubera ko umwana iyo umukoreshejemo inkuru akaba na we yabasha kuyikinira ni bwo ayifata.

Niba abana bamaze gukoresha ibikoresho mu kwiga, bigomba gufatwa bikabikwa ahantu hamwe habugenewe kugira ngo n'ikindi gihe ni bagaruka bazongere babikoreshe byongere bibikwe.

Abana batoya bagomba gushushanyirizwa ibishushanyo, bigiraho kugira ngo bafashe amasomo yabo kuko umwana wigiye kuri ibi bishushanyo, afata cyane kandi vuba kuruta utabyigiyeho.

Nk'umunyeshuri wese wiga imibare agomba gukenera ibikoresho bikoreshwa mu mibare harimo nk'amarati, seti, agacongesho, ikaramu y'igiti ndetse n'ibindi bikoresho twakwifashisha.

Abakoreshaga ibikoresho bya kera, babaga bazi amazina yabyo kandi bazi n'uburyo bikora, ariko ubu byamaze kwibagirana abasigaye babizi wababara.

Mu bigo by'amashuri ndetse no kwa muganga, wakunze kuhasanga kandagira ukarabe kugira ngo bimakaze umuco w'isuku kubera ko bamenye neza ko indwara nyinshi ziterwa no kutagira isuku ku mibiri yacu.

Kera wasangaga abarimu birukana abana ku ishuri kubera ko badafite amaseti, icyo gihe babaga bageze mu mibare isaba ko bakoresha bimwe mu bikoresho bigaragara mu iseti maze bakabibura.

Tumwe mu dukoresho tw'amabara, abana biga mu mashuri y'inshuke bakunda, harimo udufite amabara agiye atandukanye na cyane utudukaramu tw'ibiti kuko bakunda gusiga amabara cyane.

Iyo umunyeshuri yize akoresheje mudasobwa abasha kumva ibintu neza, kubera yuko ubu buryo bwiza bwo kwigisha ari ugukoresha ikoranabuhanga, nibwo abanyeshuri babasha kubyumva neza.

Abanyeshuri b'urubyiruko bagomba kuganirizwa kenshi hashoboka kuko urubyiruko niyo nkomoko y'ibyaha byose kandi iyo bitwaye neza usanga igihugu cyose ari umutekano.

Niba umuyobozi w'ishuri runaka cyangwa ikigo runaka arimo aravuga ntabwo akunda abantu bamuvugiramo kandi buri wese iyo afashe umwanya arimo araganiriza abantu aba ashaka ko bamutega amatwi.

Mu bigo bya segoderi nabyo bigomba kuba bifite laboratwari ikoreramo ibintu bitandukanye n'abanyeshuri bakaba bajyamo, bagakora ubushakashatsi maze bakaba bagira n'ibyo bavumburamo.

Kuganiriza urubyiruko cyane cyane abana bo muri segonderi biba ari byiza, cyane cyane iyo ubatoza kuba bamenya kuvugira mu ruhame, ibi birabafasha n'ahandi bazajya bigatuma bigirira ikizere.

Akenshi ku bigo by'amashuri usanga iyo bagiye gutangira amasomo kugira ngo bagire amabwiriza babaha, babajyana ahantu hamwe bakabakoresha imirongo maze bakagira ibyo bababwira mbere yuko bajya mu mashuri.

iyo ugeze muri Karangazi uhasanga ibigo by'amashuri bigiye bitandukanye kandi ibyo bigo bikaba binafite kirazira ngenderaho ndetse n'amahame y'intore n'ibindi bigiye bitandukanye bagenderaho.

Iyo abanyeshuri bagiye kuganirizwa ikintu cy'ingenzi, hagomba kuza ibinyamakuru bigafata ayo mashusho kugira ngo aze kwerekanwa no ku mateleviziyo, umuntu utahageze abashe kubyibonera.

Agakoresho ko gushyira umuntu ku gutwi, bagakoreshaga cyane mu gihe cya korona virusi kugira ngo barebe niba umuntu adafite umuriro mwinshi, kuko iyo basangaga ufite umuriro mwinshi, bahitaga bakwihutisha kwa muganga.

Umunyeshuri wese agomba kuba yambaye impuzankano igaragaza ikigo yigaho kugira ngo abe azwi ndetse hari serivisi abanyeshuri bahita bahabwa, batabanje gutegereza cyane.

Mu gihe abantu bakora mu kigo cya secondari, ibyo bakora bigomba kuba bizwi kandi bambaye impuzankano zibigaragaza kugira ngo babatandu n'abandi kuko n'umwarimu aba yambaye itaburiya igaragaza ko ari umwarimu.

Mbere yuko abayobozi bakora ikintu, bagomba kubanza kukiganiraho bityo bamara gufata umwanzuro bumvikanye bakaba bagikora kuko ni byo bituma kibagirira akamaro kuruta kubikora ku giti cyabo.

Ni byiza ko umwarimu yigisha abanyeshuri ariko banakora cyane kubera ko iyo ufashe umunyeshuri ukamujyana imbere gusobanurira bagenzi be, bituma yigirira icyizere maze agatinyuka, akumva ko ashoboye.

Abanyeshuri na bo ba segonderi bahabwaga umwanya ndetse n'ubu baracyawuhabwa kuko wasangaga baritoyemo abayobozi babavugira, igihe habaye inama runaka hakajyayo uwo muyobozi maze akazababwira ibyavugiwe muri iyo nama aho kugira ngo bose bageyo.

Mu mashuri yisumbuye agomba kuba arangwa n'isuku kubera ko higa abanyeshuri bakuze, bityo rero ikigo kidafite isuku na cyo umwanda uba mwinshi kandi bigatuma abanyeshuri baho barwaragurika.

Iyo ugeze muri kaminuza watsindiye kuhigira baguha ikarita igaragaza ko wiga muri iyo kaminuza, bityo nta muntu uwo ari we wese upfa kwinjira muri icyo kigo aterekanye iyo karita.

Abanyeshuri bari mu bushakashatsi bagomba kuba bafite igikoresho cyose bakwifashisha mu bushakashatsi, amakayi, amakaramu, amatelefone ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga umuntu yakenera.

Ni byiza ko ku bigo bya kaminuza hagomba kuba hari isuku kubera ko hakorerwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi haba hari abanyeshuri bakeye batekereza kandi bakora n'ubushakashatsi.

Muri kaminuza zigiya zitandukanye ni ho hantu uzajya usanga hari udutebe twiza umuntu ashobora kwicaramo anandikiraho, kuko bamaze kumenya ko higira abasirimu na bo ibikorwa remezo byabo biba ari ibisirimu.

Niba ushinze bizinesi yawe, ugomba kugira ahantu ubyandikaho, ku buryo buri wese uzajya uza aje akugana, azajya ahita amenya igikorerwa muri iyo bizinesi yawe maze yihahire.

Iyo ugeze muri kaminuza cyangwa ibindi bigo byamaze gutera imbere cyane cyane ibyigenga, uhasanga intebe nziza umunyeshuri ashobora kwicaramo akaba yakwandikaho anayicayeho.

Biba bikenewe cyane kuba wasura pariki runaka kugira ngo wirebere ibyiza nyaburanga biyiherereyemo bityo gusura u Rwanda abe ari twe tubitangiza mbere y'uko abanyamahanga babizana.

Abanyeshuri bo muri kaminuza bari mu ba mbere bakunda gukora ubushakashatsi kubera ko buri kintu usanga barakivumburiye binyuze mu bushakashatsi baba barakoze.